Akazu abagenzi bicamo bategereje imodoka, kaparitsemo abamotari babiri bugamye izuba, hari n'abagenzi bicayemo, hari n'umukobwa ufite agafuka imbere ye, ategereje imodoka, impande yaho hari utuzu tubiri twa MTN, tw'abajenti.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo umu ajenti ukora serivisi z'irembo, n'iza banki, Equity cyangwa Populaire utanga na serivisi za WASAC na REG.

Akazu gakoreramo umwajenti wa MTN kari mu mabara y'umuhondo n'umweru gafunguye, imbere yako hari inzu z'ubucuruzi gateretse ku muhanda.

Isoko ricuruza imyenda imbere yaryo haparitse imodoka hari kugendamo umugabo uzunguza ama ambaraje kado mu gatambaro two ku meza, imbere hicaye mu ajente wa MTN ku ruhande rwe hari umuyobozi utwara imizigo, uri kupakira amverope ku igare.

Abaturage bari guca mu murima wi'bigori bikoreye ibiti, mu mabase bagiye gutera ku mihanda, harimo n'umugabo umwe uri kubisunika ku igare.

Umwe mu bayobozi ba banki n'amakoperative akorera mu mabanki ari guha ikiganiro abagize koperative ndetse na banki muri rusange abasobanurira kuko iyo banki ikora n'ibisabwa n'ibikenewe.

Ababyeyi babiri b'amama bicaye imbere y'imashini ziboha imipira y'ubudodo, napelo n'ibindi bikoresho bikorwa mu budodo umwe yambaye rinete, undi ntabwo azambaye.

Urubyiruko rwishyize hamwe ruri kuganirizwa n'abayobozi, hari inzego z'umutekano. Bari kuganirizwa ku kwirinda umwanda, bakusanyiriza hamwe imyanda igiye iri hirya no hino bakayitwika.

Abacuruzi bacuruza inanasi basuwe n'abayobozi batandukanye baje kubaganiriza ku by'ubucuruzi bwabo, bari mu itente ahantu hatwikiriye nta zuba riri kubavaho, harimo umwe ucuruza afasheshe mikoro ari kubasobanura ku nanasi.

Ihuriro ry'urubyiruko rurangajwe imbere na DASSO mukuru ufite ubumuga bw' akaboko. Harimo abambaye imipira y'umukara ndetse n'abambaye iy'ubururu. Imbere yabo hari umuyobozi uri kubigisha.

Umukuru wa koperative waganye umukozi wa banki amuhereza n'agatabo k'ubwizigame ari kumurebera muri mashini kugira ngo amufashe.

Igishanga gihizemo umuceri gihagazemo umuntu uri kurinda inyoni gikikijwe n'ishyamba, hakurya yacyo hari ikiyaga, iruhande hari irindi shyamba ririmo ibiti birebire cyane.

Akabari karimo inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo intebe enye z'ibiti n'imwe ya pulasitike, harimo abasore babiri baje gufata icyo kunywa bafite n'amasahani ariho ibyo kurya imbere yabo n'umunyu, bari kunywa baganira.

Iduka imbere yaryo hari bodaboda ziri hasi ku mifuka, hari amatapi ku muryango hari moto, hari ibipupe byambaye imyenda, ku ruhande hicaye umusore ubicuruza, yegamiye matela.

Amakaye matoya cyane ya musana aringaniye n'amananini avanze na anvelope zo batwaramo ibyangombwa ari muri butike muka etajeri...

Botike yiganjemo ibiribwa bitandukanye, birimo n'akagare k'abana. Ibibiribwa byo: nk'ibirayi, umuceri, akawunga, ibitunguru, amagi, harimo bombo, biswi, harimo korogate n'uburoso bwazo, harimo n'inkweto za silipa n'igisheke n'ibindi bitandukanye.

Iduka ririmo: amafu y'igikoma, ay'ubunyobwa, amabombo, shikarete, amagi, ibirayi na za twisite n'ibindi bintu bitandukanye nk'ibitunguru n'amakaroti biri mu ka etejeri keza.

Isoko ririmo abacuruzi bacuruza ibintu bitandukanye, hari umugabo uri gucuruza amafi y'inamba, inyumare harira umumama uri gucuruza amafi y'amasamake, ku ruhande hari undi uri gucuruza umiceri, ibirayi, amabombo, amabiswi n'undi uri kuvugira kuri telefoni.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo gaze iriho n'icyapa kigaragaza ko bacuruza gaze n'ibikoresho byayo, harimo gaze z'ibiro bitandatu ndetse n'inini z'ibiro cumi na bibiri.

Inama yiganjemo abapadiri n'abafurere n'abandi bayobozi ba Kiliziya batandukanye, bari kuganira ku mibereho myiza ya Kiliziya, bamwe bari kwandika abandi barakurikiye.

Kiliziya ifite aritari itwikirije n'ibitambaro by'umweru imbere yayo hari abapadiri n'abamansera bari gutanga ukalisitiya bambaye udupfukamunwa hari abakrisristo batatu baje gufata ukariristiya.

Abakiristu gatolika bahagaze imbere ya kiliziya biganjemo abama, abapapa n'abana bari gufata ifoto bari kumwe na padiri ku kiliziya hateye insina.

Hoteli idekoye irimo n'intebe z'umutuku n'ameza atwikirijeho ibitambaro by'umweru, harimo izakira abantu barenze bane, hari izakira bane ,hari n'izakira babiri nta museriveri urimo.

Hoteli irimo imitako ya Kinyarwanda ikozwe mu biti. Irimo n'indabo nziza ziriho n'amaronji. Ifite ibitara binini bimanitsemo hejuru kuri parafu. Ifite hanze hari pisine.

Hoteri yubatse mu buryo bwa etaje ifite jaride, imbere yayo hari ibiti birebire bitanga igicucu n'umuyaga kuri iyi hoteri.

Hoteri nziza cyane ifite isuku ifite hanze hameze neza harakayaga ifite uburiri bwiza busa neza cyane ifite aho wakwicara ugafatira amafunguro utuje imbere y'uburiri.

Abayobozi b'abagabo bahagararanye na perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul KAGAME, bahagaze munsi y'igiti, kitari kirekire, imbere yabo hagaritse imodoka y'umukara.

Bare ihagazemo umuseriveri imbere y'ameza, ari gutunganya shampanye agiye gushyira umukiriya n'ibirahure biri ku meza imbere ye, yambaye agapfukamunwa.

Hoteri isize irangi ry'umweru ifite inzugi nini z'ibirahure, ifite hanze abantu biyakirira, munsi yayo hari pisine, hari n'ibiti bya jaride bihakikije.

Hoteri irimo amakaro hasi, ifite uburiri bufashe neza, ifite na supanete n'akameza imbere yabwo, umuntu ashobora gufatiraho amafunguro na tapi ukandagiraho uvuye ku buriri.

Hoteri ifite intebe n'ameza hanze byakira abantu benshi. Ikagira n'izindi ziri imbere zakira abantu bake, bahagazemo abaseriveri bambaye umweru n'umukara.

Hoteli iteguyeho ku meza ibiryo by'amoko menshi atandukanye, hariho na salade iri kuma pulato, hari n'amaji ya oranje n'umutuku.

Hoteri irimo ntebe z'amadiva, zifite n'ameza atatseho indabo zitandukanye, ku ruhande hari agatete karimo indabo ziteretsemo inanasi.

Ni bare irimo rogi ifite uburiri busashe, bufite n'imisego ibiri, bwakwakira abantu babiri, bufite na supanete ndetse n'akabati umuntu ashaka kubikamo, imyenda, agiye kuryama.

Hoteri iri ku muhanda, imbere yayo hari aba agenti bacuruza amayinite ndetse wambutse gato hari amazi, arimwo ubundo hatambitsemo n'ikiraro, harimo indabo.

Hoteri ifite hanze hateye indabo, hari jaride, hari pisine, imbere yayo hari udutebe bumukira bavuye koga, inyuma hari indabo zihazengurutse, hari n'igiti kirekire.

Amagare abiri atwawe n'abasore ahetse ibitoki byinshi rimwe ritwaye ibitoki bitandatu, irindi ritwaye ibitoki bitanu bose bari kujya mu cyerekezo kimwe.

Isoko ririmo ababyeyi b'abamama bari gucuruza, harimo bikore akabase ari gucuruza ibikombe ibindi abifashe mu ntoki, afitemo utumvilope two gupfukiramo abantu impande ye hari umutaka wa MTN, munsi yawo harimo ibitoki, ibirayi, n'ibindi bicuruzwa, ku ruhande bahacururiza imyenda y'ibitenge.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu rugo, harimo abazunguzayi, mo hagati harimo uri kuzunguza amagi n'ubunyobwa ndetse n'abacuruzi ba bino bikoresho n'ibiribwa bagiye babiri imbere.

Isantere irimo amabotiki acuruza ibiribwa bitandukanye harimo n'utubari ndetse kuru ruhande hari n'umutayeri udoda imyenda, munsi y'i duka hari umuhanda unyuzemo uri kugendamo abagenzi hari n'umwajeti utanga amayinite unabika, akanabikuriza abantu.

Isoko ry'imyenda, ritwikirije shitingi, haparitsemo moto yazanye imyenda, hari imifuka ibiri y'imyenda yamaze kuhagera, hari umucuruzi watangiye kuzingura imyenda, nta bakiriya bari bahagera.

Umwana muto w'umuhungu uri mu isoko ry'imyenda ariko bari gutambuka, yikoreye imisambi ikozwe mu bunyundo, ibohesheje imigwegwe bari kugana mu isoko ryabyo.

Isoko ririmo ababyeyi bitwikiriye imitaka bahetse abana, abandi barabateruye bari kubonsa, baje gucuruza ibijumba, babisutse ku mifuka, abandi biracyari mu mifuta, hari n'uwicaye w'umugabo ari gucuruza, abandi bari imbere bafite n'iminzani.

Abantu batandukanye harimo abagore harimo abagabo n'abakobwa bari ahantu muri resitora bafata icyo kunywa bafite n'umuntu imbere yabo uri kubaganiriza.

Umusaza uri kugenda ku igare muri kaburimbo impande y'amaduka, haparitse umumotari, haparitse n'imodoka itarimo umuntu, hakorera n'umu agenti imbere y'ayo maduka, ari gufasha umukiriya.

Umumotari wo muri kaburimbo atwaye imyeyo kuri moto nta mugenzi afite kasike y'umugenzi ayifite mu mahembe, inyuma ye hari undi mumotari babisikanye utwaye umugenzi.

Abamotari baparitse imbere y'inzu yanditseho serivisi z'Irembo na Equity, umwe ahetse umugenzi undi nta mugenzi afite baparitse inyuma y'imodoka.

Umunyonzi utwaye ibitoki byinshi udafite umuntu umusunikira ari kugenda mu muhanda imbere y'ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti byakoze uruzitiro icyo kigo kirimo ikigega gitanga amazi.